Iduka ricururizwamo imyambaro itandukanye ,habonekamo imyenda y'ubwoko bwose, nk'iy'abagore n'abagabo ,hanze hakaba ibipupe bikoreshwa mu bagaragaza ingano yabyo.

Iduka ricuruza serivisi zijyanye na mudasobwa, printeri n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Batanga serivisi zo gukora fotokopi, gusana prenteri na mudasobwa ndetse no kugurisha ibikoresho byazo.

Akazu gacururizwamo isambusa. Isambusa akaba ari ikiribwa gikorwa mu nyama, mu ifarini ndetse n'ibitunguru. Isambu iraryoha cyane kandi ikaba izwiho gutera imbaraga.

Iduka ririmo ibikoresho bitandukanye ndetse n'ibyo kurya .Nk'akawunga n'umuceri ndetse n'udufuka two gukoresha mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Bikusanyirizwa muri iyi nzu ubishaka akaba ariho abisanga.

Inzu icururizwamo umusaruro ukomoka ku matungo cyane cyane inyama .Inyama zabazwe zikusanyirizwa muri iyi nzu abakiriya bazikeneye bakaza bazisanga aha ngaha. Inzu igomba kugira isuku ihagije, ikagiran' ibyuma bikonjesha inyama kugira ngo zitangirika mu gihe zitarabona abaguzi.

Igitoki ni igiti, urubuto, n'ikiribwa, kikaba igihingwa ngandurarugo, kuko kitagoye kukibona, igitoki kandi gishobora gukoreshwa igihe wataze, kikavamo imineke.

Umujyi ubonekamo ibinyabiziga bitandukanye, nk'amagare, amamoto kandi ubonekamo inzu ndende , amapoto y'amashanyarazi, ibiti ndetse n'amatara.

Ikinyobwa cya fanta kiri mu bwoko bw'imitobe. Kigira isukari nyinshi. Niyo mpamvu kukinywa cyane gishobora kwangiza ubuzima bwa muntu. Bisaba kunywa ku urugero, kugira utaza kwangiza ubuzima.

Abagore bari gucuruza imigati y'imbaga ikorwa mu ifu y'ingano ndetse yifashishijwe n'amavuta .Imigati iraryohaga kandi uwayiriye ntapfa kugira inzara. Imigati kandi iteraga imbaraga.

Isoko ririmo abantu batandukanye bagura kandi bakagurisha inyanya. Zikomoka k' umusaruro w'ubuhinzi, zikaba zizwiho kugira intungamubiri zikomeye ku buzima bwacu. Zirakoreshwa mu gihe bakora nk'isosi.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu mirimo ya buri musi: Amasahane, amasiniya, ibikombe ,amajerekani, amabase, amapanu, amajage na Telemosi.

Impapuro mpuzamahanga z'udutambaro tw'abana zo mu bwoko bwa mamirove. Zigenewe abana bafite ibiro hagati y'umunani na cumi numunani. Kandi iyi paki irimo udupaki mirongo ine n'umunani. Ifite igishushanyo cy'umwana wambaye igitambaro, kikaba gikoze mu buryo butuma umwana yumva akeya kandi yisanzuye.